Abitabiriye amahugurwa y'urubyiruko arimo arakorerwa aha ngaha, hari umwigisha uri gutanga amasomo ndetse n'abigishwa bari gukurikirana icyigwa.

Icyumba cy'ishuri mu kigo cy'amashuri, hari ikigo cy'amashuri tubona icyumba cy'ishuri cyubatswe neza cyane, ahantu hanejeje hashimishije hashobora kurwanya ibiza, ndetse abanyeshuri bahiga bakaba bashobora kwiga bisanzuye.

Ububiko cyangwa se ahabikwa inyandiko, zitandukanye zirebana n'uburezi cyangwa se ubuvuzi, bigaragara ko hakorerwa n'ikigo cy' amashuri, bikaba ar'ibiro by'abakozi b'ikigo, habikwa impapuro zabugenewe cyangwa se n'amadosiye atandukanye.

Ikibuga cy'umukino wa basiketiboro. Ipaniye iri aho batera umupira. Hakaba hagomba kuba ari ku kigo cy'amashuri, aho bidagadurira imikino itandukanye harimo n'umukino wa basiketiboro.

Icyapa kiranga indangagaciro ndetse na kirazira by'abarezi barerera gurupe sikorere ya Kampanga ni byiza ko umurezi yageze aha ngaha yongera akibutsa ,ni izihe ndangagaciro cyangwa se kirazira biranga, bigomba kuranga ,cyangwa se kuba hirya y'aba?

Barimo barakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho bashobora kuba bari kungurana ibitekerezo ku gukora ikintu runaka hifashishijwe ikoranabuhanga. Hagomba kuba harimwo umunyeshuri ndetse n'u...

Abana b'abanyeshuri bari mu bukorikori bigaragara ko bakoze utuntu dutandukanye bakaba barimo baratwerekana hagati yabo na bagenzi babo bagaragaza buri umwe wese icyo abashije cyangwa se ashoboye gukora agacereka mugenzi.

Abize ibijyanye n'amashanyarazi barimo kugaragaza mu uburyo akora, nk'ababyize rero bamwe baragaragariza abayobozi ibyo bagezeho n'icyo bungukiyemo n'uburyo babasha kubishyira mu bikorwa.

Uburezi tekiniki uburezi bw'imyuga, ni uburezi Leta yashyizemo imbaraga abari kwiga guhanga cya se gukora ibikoresho bishyashya bikenerwa mu buzima bwa buri munsi ,ni igikorwa cyiza rero giteza imbere abakora uyu mwuga.

Abanyeshuri ba tekiniki barimo baratozwa uko bavanga umucanga na sima. Bitewe n'ibikenewe abakora beto cyangwa gukora sima yifashishwa hagati y'amatafari.

Abatetsi babigize umwuga, akabari, hoteli, cyangwa se ikaba resitora ikorana umurava, ndetse n'isuku, bafite ifunguro ryiza ryateguwe mu buryo bunoze, ikaba yiteguye kurishyikiriza abakiriya cyangwa se abashyitsi babagendereye.

Mu burezi bushingiye ku myuga tekiniko tereningi edukeshoni, harimo heya deresingi cyangwa gutunganya imisatsi, aha bakaba abana barimo baritoza ndetse bafashanya umwe yita ku wundi atunganya umusatsi we. Ni ikintu Leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga, kandi kigomba kuba mu by'ukuri koko giteza urubyiruko imbere.

Ahakorerwa uburezi bw'incuke. Materineri, biragaragara ko ari ishuri ryigirwamo n'incuke, hari ibikinisho, hari udutebe abana bicaraho, ndetse n'aho bashobora kuruhukira.

Abantu bahabwa amabwiriza mbere y'uko bagira ibyo bakora. Bakaba barimo baratozwa neza uko bazaja barategura mu gikoni kugira ngo amafunguro gagere cangwa se ibyo kurya bigere ku wo biteganirijwe biteguwe neza nta kibazo bishobora guteza. Bigomba kuba ari igikoni ca hoteri, kandi hoteri ni ibintu bigezweho ino mu majaruguru.

Ibi bikoresho byifashishwa cane mu guhinduranya amapiyese y'imodoka cangwa se n'amapikipiki, bikaba bifashwa mu gufungura cyangwa gufunga ibikoresho bidafunze neza by'ibyuma.

Aha hatunganyirizwa umusatsi, bigaragara ko ari icyumba gikorerwamo imyitozo cyangwa puratike ijyanye n'ubwiza, abanyeshuri kwiga gutunganya umusatsi, imisatsi bakaba bari muri puratike cyangwa ishyira mu bikorwa ry'ibyo biga.

Abanyeshuri barimo kudoda inkweto, kudoda inkweto ubona ko ari ishuri ry'imyuga ry'ubudozi ariko rikora nk'uruganda rwo guhanga inkweto.

Mu isomero aho ushobora kubona inyandiko zitandukanye, ukicara ugasoma. Abana bato cyangwa se n'abakuze, bashobora kuhabonera ubumenyi butandukanye, binyuze mu nyandiko zibitswe ahangaha, nk'uko hateganijwe kuba hasomerwa inyandiko zitandukanye.

Abatekinisiye, aba ni abanyeshuri bari kwiga umwuga na tekiniki, bakaba bari guhambura cyangwa se basubiranya moteri, nkuko bigaragara aha ngaha, bari gukora tekinike ya moteri ba repeyaringa basambura cyangwa se bateranya moteri y'imodoka.

Ishuri abana barimo gukora ikizamini cya leta, cyateguwe ku rwego rw'igihugu, aho abana bahuriye aha ngaha kugira ngo bakore ikizamini. Bigaragara ko baturutse mu bigo bitandukanye, kuko impuzankano bambaye irabaranga ko ari abana baturutse mu bigo bitandukanye, baje gukora ikizamini. Kikaba ari ikizamini cyateguwe ku rwego rw'igihugu.